Iyo ni imodoka, ni imodoka isa nk'aho iri kumwe n'abapolisi ndetse ishobora muri kontrore tekinike kuko biragaragara ko n'abapolisi bahari ku mpande, abapolisi bane.

Indege iri mu kirere, iyi ndege ikaba yanditsweho NAYINC RCN, ikaba iri kugenzura umutekano cyangwa se n'ibindi bitandukanye, ikaba iri hejuru ku misozi.

Abadaso ndetse n'abaturage baricaye ndetse n'abacungagereza bicaye inyuma, bakaba bari mu nama y'ingirakamaro ku mutekano w'ingirakamaro ku gihugu cacu c'u Rwanda.

Haragaragara abantu basa nk'aho bitabiriye iki igikorwa cyo gutanga inama ku baturage. Harimo abapolisi babiri abandi bose ni abaturage basa nk'aho bitabiriye icyo gikorwa cyo guhugurana.

Umupolisi akaba afashe mikoro akaba ari kwigisha abaturage. Habaye dekorasiyo ndetse abaturage bamwe bicaye mu kazu, abandi bicaye hanze. Bari gukoma amashyi barishimye, bishimiye umuyobozi wabo.

Umugabo uhetse kizimyamyoto ari kuzimya ahantu hari gusha , Aha ahantu hari gusha rero hakaba hari harimo ibyuma ndetse iyi nzu yari ikoze mu mabati bigaragara yuko iri gusha yakongotse.

Aba mama hano, bari gufata ibiryo, basa nk’aho bari bavuye mu nama cyangwa se gusenga, noneho bateguye akarori, kugirango ngo bajye kwiyakira nyine, barye ibiryo, bameze neza cyane.

Abagore bafite abana ndetse n'umugore bari imbere uri kubaha impanuro afite telefone irambitse ku meza ndetse n'aga'gasakoshi karambitse ku meza.

Abaturage n'abayobozi bari mu nama aho imbere yabo hari uducupa tw'amazi hakaba hariho umugabo ufunguye komputa abandi amatelefoni aracaginze, bakaba bari mu nama kandi bakaba bari kwigiramo ibintu byiza.

Abasirikare, abapolisi bari muri sale ndetse n'abandi bantu. Bakaba bari kwigira hamwe ku bibazo byateza imbere umutekano, ndetse byateza imbere n'inyungu z'abaturage.

Umuturage uri gukoresha abandi baturage inama bigaragara yuko ari umuyobozi wabo , yambaye amarinete afashe mikoro ndetse n'urupapuro akaba ari kubaha impanuro ,abaturage benshi bakaba bafashe imitaka.

Uyo biragaragara nk'aho ari umuyobozi, uri gutanga igitekerezo mu nama bitabiriye, kuko urebye abandi bari guhindukira bakamureba, ashobora kuba ari kunganira abandi bayobozi bagenzi be.

Isahane iriho ibidodoki n'ibishyimbo bikaba iteretse ku kirago kandi hariho n'igihaza ibi rero bikaba ari ibiryo bya kinyarwanda bituma abantu babaho neza.

Umuvure barishizemo， inshinge bagiye gushiramo iminece，kugira ngo bakore umutobe. Umutobe tuwukoresha mu gukora urwagwa，cangwa se abakirisitu bakawunwa ujohereye.

Umwami wicaye, akaba yicaye ku ntebe y'urubaho. Inyuma ye hari uruzitiro rw'ibikenyeri. Akaba yambaye umwenda ndetse n'imijyi mu ijosi.

Abo ni abantu babyina imbyino za gakondo. Ni abantu babyina imbyino za gakondo tubita itorero. Bishingiye ku muco nyarwanda, bifashishwa mu makwe, mu birori, no kwigisha abana umuco nyarwanda.

Imizinga itondetse ikaba ivagamo ubuki ndetse n'ibindi bintu, ikaba iri mu ishamba, ikaba ikozwe mu byatsi n'ibiti n'ibindi bintu by'ibishwagari.

Aha biragaragara nk'aho ari abakobwa babyaye bakiri bato mu myaka ya kera, kuko urabona ko bahetse abana, abandi bitangiriye ku matama, bafite agahinda . Ni abana b'abakobwa babyaye bakiri bato.

Umuco nyagwanda aha akaba ariho dushangaga ibintu byinshi bakoreshaga mu muco nyagwanda, hakaba hameze neza cane kandi hakaba hubace amabaci y'imvunagure.

Isekuru bakoreshaga bari gusekura ibintu bitandukanye, harimo isombe ndetse n'amasaka n'ibigori, kugira bakuremo ibintu bitandukanye. Umugabo wambaye bote n'umugore wambaye ibitenge bayiri imbere, bigaragaraye yuko ari bo bari gusekura.

Umugabo uri gukama yambaye ingofero, ari gukama inka yayishi yayijishije, iyinka ikaba ihagaze mu ifamu ikaba ari nziza cyane, kandi akaba ari gukamira mu nkongoro nziza.

Ibiryo bya kinyarwanda bikaba biri ku makoma, akaba ari ibijumba bidahase, ndetse n'igitoki kidahase. Ibi biryo bikaba biryoshye, bikaba ari byo aba mbere baryaga.

Akabaho gashushanyije ibintu gateretse hasi, aka bakaba barakifashishaga mu muco wa kinyarwanda ndetse na n'ubu biracagaragara mu birori bizihiza umuco nyarwanda.

Umukecuru wicaye ku karago akaba ari kuboha agasero hari igisafuriya ku ruhande kiriho amazi bigaragara yuko ari kugikoresha ariko kubobeza iyi migozi kandi ku ruhande rwe hari ubwatsi ndetse n'utubuye.

Biragaragara ko ari abagore babiri bari gusekura isombe cyangwa se inkaranka ariko baherereye mu rugo, uri kubona bafashe imisekuzo bari kuyisekurira mu isekuru, kugira ngo bajye ku birya.

Agacuma n'uruho biteretse ku ntara. Intara ikaba iteretse ku kirago, inyuma yaho hari uruzitiro rw'ibikenyeri n'ibiti, ndetse mu gacuma hakaba harimo umuseke, kandi ku ntara hakaba harambitse uduti tubiri

Amakoroshi ni ibyuma bakoreshaga bari kunyinya inka cangwa se n'andi matungo. Bakaba barabikoreshaga mu muco wa kera ndetse na n'ubu hakaba hari aho babikoresha mu byaro.

Abagabo bafite imiseke n'indi miseke irambitse hejuru y'indobo. Bakaba bari kunywa inzoga kandi bigaragara yuko bari mu bukwe, bari gusogongera inzoga kandi bishimye.

Ababyinnyi bari kubyina bari ku nzu ndangamurage ibi bikaba biteye ibyishimo. Abakobwa bambaye urugori ndetse bambaye n'imikenyero aho abagabo bafashe amacumu bari kubyina.

Ababyinnyi bari kubyina bafashe icumu bambaye imisatsi, ni abagore n'abagabo bari guseka kandi bambaye imikenyero, bambaye n'amasengeri abagore, abagabo bambaye hejuru ubusa.

Ako tukita agaseke cyangwa se icyibo , icyo cyibo rero cyangwa se agaseke gikoreshwa mu kugemurira abantu bakoresheje ubukwe ,turyita ipfukire ngo bamujaniye ipfukire.

Uyu mugore aragaragara nkaho ari kugosora ibishimbo akoresheje intara, mbese muri make ari kubikorera amasuku ari kugosora ibishimbo ari kubikorera amasuku, kugirango ngo bizajye ku isoko bitunganye neza bisa neza.

Uyu muntu asa nk'aho yasuye uyu mudamu asa nk'aho yasuye aba bana ari kubaha n'impano, basa nk'aho bari bari kubyina imbyino gakondo ni abana b'abakobwa batatu, bane ,batanu ni bo bagaragara mu ifoto hamwe n'umudamu wa gatandatu.

Uyu mugabo afashe indosho. Afashe indosho inyuma ye hari ikiduke. Yambaye ikoti ry'umukara n'agashati ka karokaro. Ubwo ashobora kuba ari ku kerekana cyangwa agiye kwarura imboga ntawamenya.

Ku isekuru bari gusekuramo Ibigori, ibigori bikavamo ifu. Ni umwana w'umukobwa wambaye agakanzu k'umutuku uri kuyisekura. Ifu bakaba bari kuyishyira mu kibase cyamenaguritse, ndetse n'ibisigazwa bakaba bari kubishyira mu gitebo.

Ikibindi kirimo imiseke kikaba cyuzuye inzoga bakaba bagiye kuzisogongera kugira ngo bumve niba iryoshe. Babikoresha mu makwe mu gihe bari gusaba umugeni basogongera inzoga kuko ariwo muco w'abanyarwanda.

abakobwa bambaye imicyenyero bakaba bagaragiye mugenzi wabo bakoresheje ubukwe bakaba bambaje utuntu tw'utugozi mu mutwe ndetse umugeni muri utwo tuntu hakaba harimo uduti

Amasunzu! Umuco nyarwanda, inyogosho za kera, biragaragara ko ari umuco nyarwanda harimo imishanana, ibikomo ndetse n'imbyino gakondo.

Ikibindi kirimo imiseke kikaba kirimo inzoga iri kubira. Iki kibindi kikaba caracitse ho gatoya ku munwa kandi kikaba kirimo inzoga iryoshe cane yabize.

Umuvure urimo inshinge, bagiye gutonora bashyiremo imineke, kugira ngo bizavemo umutobe umeze neza, cyangwa se n'urwagwa abantu banywa kugira ngo basusuruke, bamererwe neza.

Igisabo giteritse ku byatsi aho giteretse ku nzu y'ibyatsi bikaba bishushanya umurage w'u Rwanda mu bintu byinshi bitandukanye nk'umuco w'abanyarwanda.

Iyo tuyita imikubuzo cangwa se imyeyo. Yifashishwa iyo umuntu ari gukora isuku. Urabona ko iyi myeyo iba ari imeze neza. Muri make ikoreshwa n'abantu twita abasilimu cyangwa se abanyamujyi.

Hagaragara akantu k'umweru, ibyo ari byo byose ni icyatsi bita isogi. Isogi zikunda kuribwa n'abakecuru cyane cyane, gahinze mu murima n'ibyatsi byumye biragaragara.

Ubu n'ubundi ni umugore uri kugosora, ni umugore uri kugosorera iwe mu rugo, ashobora kuba agiye kubiteka cyangwa atajya kubikoresha ikindi kintu. Ni umugore uri kugosora abyitayeho, yambaye imyenda y'umutuku akenyeye n'igitenge.

Aba ni abana basuye ibwami. Ibwami ku gicumbi c'umuco, bari bagiye i Butare. Bari kwitoza umuco nyarwanda, urugero nko gusya. Uri kubona ko bari gusya cyangwa se kubeta urusyo rw'ibuye.

Umugore uri kuririmba uri gucuranga inanga ya kinyarwanda ari kuririmbira muri mikoro hari n'abantu bahagaze ku ngoma bari kuzivuza bakaba bambaye imikenyero n'amashati y'umweru.

Ababyinye akaba afite amayogi mu kuguru ndetse akaba ayacyenyeye n'ibitambaro akaba ari kubyina imbyino za kinyarwanda zerekanaga umuco w'abanyarwanda kandi ibintu bikaba bimeze neza.

Ibikoresho bya kinyagwanda birimo inanga ndetse n'ibindi bifashisha mu gucuranga. Bikaba bijyosha umuziki, kandi abari kubyumva bakajyoherwa cyane kuko ni byiza.

Iki gikome bacyita muhinzi. Kirimo umuntu ugifashe ni umuntu ugifashe nubwo atagaragara neza ariko kirimo ubushera, kirimo ubushera buva masaka.

Isekuru ya gakondo. Isekura isombe, ubunyobwa. Igira n'akantu bita umusekuzo. Umusekuzo kifashishwa kugira ngo kanoze neza ibiri gusekurwamo mo ndani.

Umucecuru uri kuboha ikirago, akaba ari gukoresha ingoyi. Akaba ari kugikura mu byatsi bakura mu bishanga ndetse n'ahandi. Yicaye imbere y'inzu ye ihomesheje urwondo ndetse n'uruzitiro rw'ibyatsi.

Uwo ni umwana . Ni umubyeyi uri kumwe n'umwana . Ariko ni igishushanyo, ni igishushanyo kigereranya nyine umubyeyi w'igikwerere ugiye konsa umwana cyangwa se amuteruye.

Iyo tuyita isekuru. Isekuru turayisekuza, isekuru irasekura ibintu bigiye bitandukanye nk'isombe, ubunyobwa, ndetse n'ibindi bifashisha bari gusekura.

Izo ni ubwoko bw'imboga twita isogi. Izo ni isogi rwose, cyane cyane zikunda kuribwa n'abakecuru ndetse n'abasaza. Kuko bumva ko zishaririye, hari icyo zibafasha cyangwa se zibavura, ubwabo niko abakecuru baba bavuga ngo isogi ni nziza.

Abakobwa babiri barimo kugosora, bari gugosoza intara ibishyimbo bikaba biri ku ihema, kandi bikaba byareze cane, bikaba bigiragaza umusaruro mwiza.

Uyu ni umuvure bakaba bari gukamiramo ibitoci kugira ngo haboneke umutobe ,abagore bari gutonora ndetse ibitoci bikaba bihiye bakaba bari gutonora bararambika muri uyu muvure.

Aha haragaragara amashiga, amashiga, isafuriya ndetse n'intara. Ni ibikoresho bya gakondo n'urukwi, urubingo ruragaragara hano muri iyi foto, amashigayo ni atatu.

Iyi tuyita ingobyi. Ingobyi iba ifite ibiti bibiri, ikirago ndetse n'akandi kantu kaboshe mu byatsi bya kinyarwanda ntari kwibuka neza harimo imijishi ibiri, ibyo biti bibiri nibyo twita imijishi.

Pulizateri ni igikoresho dukoreshaga mu mago, mu nsengero, ndetse no mu tubare n'ahandi hantu hatandukanye nko bigo by'amashuri ,aka gakoresho kakaba kagabanyaga umuriro bigatuma ibikoresho bidasha.

Aka kakaba ari agakoresho k'umweru bakoresha mu mashanyarazi, kakaba karambitse ku meza y'umweru, aka gakoresho kandi gasa neza, bigaragara yuko n'akamaro kako kaba kameze neza.

Aha hagaragara nk'aho ari aho bakontororera umuriro. Kuko urabona amapoto ndetse na karegirateri biba biri mu cumba ahantu runaka. Abahanga mu by'amashanyarazi bakabikontarora.

Iyi n'Inama y'amashanyarazi, iyi migozi ikaba ifasha moteri kugira ngo ibashe kuba yashiturwa, irimo ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'umutuku. Kandi urabona yuko ibintu bimeze neza.

Ibikoresho bitwaraga amashanyarazi bikaba biri ku kibambashi cyubakishije tiripuregisi. urucinga rero rukaba runyujije mu byuma rubifata kugira ngo rubashe kuba rumeze neza.

Aka ni akuma k'amashanyarazi kakaba karambitse ku meza, aka kuma rero kakaba ari keza kuko gafite ibara ry'umweru, aka kuma rero gafite umumaro utandukanye udufasha kugira amashanyarazi atugereho neza.

Igikoresho gifotoraga impapuro, kandi iki gikoresho gifite ibara ry’umweru n’umukara. Bakaba bagikoresha mu banyeshuri n’ahandi hatandukanye, kugira ngo bafotore ibizamini.

Iki ni igikoresho cy'ikoranabuhanga ndi kubona handitswemo ngo difezesikoronoze mashine, iki gikoresho cy'ikoranabuhanga nanjye ndi kubona ntagisobanukiwe neza, ariko icyakora gishobora kuba cyifashishwa mu bintu by'amashanyarazi uko kigaragara.

Igikoresho cya soketi gifite aho bafungurira n'aho bafungira, umuntu acagingamo ashaka umuriro wa telefoni cyangwa se uw'imashini imyenge itatu binjizamo sharijeri bagicomeka mu giputa.

Agakoresho k'amashanyarazi kakaba gakontorora amashanyarazi kakaba kamaditse ku kambasi k'igiti kitwa tiripuregisi, kugirango ntikabashe kugwa.

Utwuma tw'amashanyarazi harimo twose dusa nk'aho twikaraga harimo udufite amabara y'ikijuju, umweru, umutuku ndetse hariho n'inyuguti ya f inyuguti ya f ku tuburo.

Inzu yegereye kaburimbo, ikaba ifite impande yayo ipoto y'amashanyarazi n'ibyapa biri imbere yayo. Iyi nzu ikaba isa neza kandi ikaba ikoreragamo banki nziza.

Imisarane ya kijyambere, abantu bajya kwitumamo ndetse na za rinwari. Iteye akarangi gasa na shokora. Imiryango yayo isize akarangi k'ubururu ndetse hariho n'akantu k'agapangu.

Aba ni Abenjenyeri bubaka ndetse hari n'umudaso. Bakaba bari kwigira hamwe iby'izi nyubako bari kubaka z'amashuri azafasha abana kugira ngo baje biga kandi biteze imbere Igihugu.

Ibi bisa nkaho ari Kiliziya Gatolika. Ni urusengero rwa Kiliziya Gatolika, abantu bajyaho bagiye gusenga, kuko n'imodoka zihaparitse rimwe kabiri gatatu, ni imodoka eshatu ndetse n'umuntu uri kuhagana ugiye ku rusengero.

Urusengero abantu basengeragamo kandi rukaba rutatse imbere. Uru rusengero rero rukaba rufite aho bakarabiraga, kugira ngo binjire mu rusengero batanduye.

Aha biragaragara nk'aho ari amashuri aherereye mu cyaro, ni mashuri aherereye mu cyaro cyangwa se urusengero, kuko hagaragara ibigega kimwe, bibiri, bitatu, ndetse n'ikirangantego cyaho.

Izi nyubako zigaragara nk'aho ari inyubako za leta, zishobora kuba zikoreramo n'inzego zihariye, zishobora kuba ari ibiro by'abayobozi cyangwa se ari nk'ikigo cya leta runaka gikoreramo.

Imidugudu isa ikaba ifite inzira zirimo amagaraviye ndetse n'amatara. Izi midugudu kandi zifite utudirishya ku ruhande rufunguye, kugirango haje harajamo akuka.

Amatara yo ku mihanda, kaburimbo, imirongo icagaguye, inzu igeretse ndetse n'amatara ari kwakamo indani. Hagaragara n'indabyo, urumuri rwiza cyane.

Iri ni ishuri rya Musanze ryigisha imyuga. Ryigisha imyuga ku rwego rwa ae na azero basigaye bazizanamo. Rikaba riherereye mu majyaruguru n'aya mazu atatu nyine ni amashuri.

Amazu asa bubakiye abatishoboye, cyangwa se abantu batuje mu midugudu, hakaba hari umuhanda w'igitaka usa naho uri gukorwa, hari imisozi iwukikije, ndetse n'abantu bari kuwunyuramo.

Aho ni urusengero basengeramo. Rufite amakositara akozemo umusaraba. Uh! Ni ho bigaragara ko rufite na parikingi ikoreshejwe n'ibintu by'ibibuye pe!

Izi zigaragara nkaho ari inyubako za leta, zikorerwamo n'inzego za leta nk'amashuri ,utugari ndetse n'ibiro by'imidugudu ku buryo umuntu yajya kuhasaba serivisi zigenda zitandukanye cyangwa se ibitaro.

Igipangu cyubakishijwe amatafari ya ruriba， inyuma yaco hari amazu ya Leta ameze neza. Kandi hari rigori imbere y'igipangu， rigori itwaraga amazi.

Iyi nyubako nyizi i Nyagatare na Rwamagan, izi zubatswe n'abashinwa ariko niho ziherereye ni inyubako ebyiri zijya gusa ko imwe ni kaminuza indi ni ibiro by'intara.

Salo imeze neza irimo amakaro iteye irangi nziza. ndetse ifite imeza. Ikaba isa neza kandi ikaba yerekana yuko ibintu ari byiza bifite isuku nziza.

Umurenge sako ni inzu itanga serivisi za banki mbere yaho hari abantu bacuruza mituyu, hari umuhanda w'igitaka uri kugendwaho n'abagore n'abagabo bigaragara yuko ibintu bimeze neza.

Inzu yubakishije amategura n'amatafari, impande yayo hari umurima urimo ibigori ndetse n'ipoto y'amashanyarazi, ndetse hari n'inzira y'abanyamaguru aho abanyamaguru bakoresha bagenda.

Abasirikare ndetse n'abandi bayobozi barimo barataha urugo bubatse ku nkunga ya Leta ndetse n'abaturage, ni urugo rwiza rwubakishije sima ndetse n'ibindi byinshi.

Ikigo kimeze neza gifite idarapo kandi gifite n'amatara, gifite n'utuyira twiza two kugendaho kandi tukaba bwubatse mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Urusengero rufite jaride nziza cane, n'utuyira. Bakaba barushengeragaho abantu benshi b'abakirisitu. Rukaba rufite ahantu bakarabiraga, kugira ngo bagabanye umwanda.

Kiliziya ikaba ifite akantu gasongoye kandi ikaba yanditsweho Kabgayi. Abakiritu benshi barayigana mu kuja gusenga Imana kandi bakishima.

Aho biragaragara nk'aho bari gutanga ubutabera cyangwa se nk'umuntu warenganijwe akarenganurwa, bishobora kuba n'Umuvunyi Mukuru uri kubikora cyangwa se undi muyobozi ubishinzwe cyangwa se ubifitiye uburenganzira ya.

Abaturage bakaba bari mu nama, umugore ari imbere Ku murongo afashe mikoro afashe n'ibipapuro ari kubaza ikibazo ce, hariho n'abandi bagabo bamuri inyuma ndetse n'umugore n'abo biteguye kubaza ibibazo byabo mu nteko y'abaturage.

Ahangaha umuyobozi ari kuremesha inama abaturage. Haruguru yaho hari umusozi, ahandi hari amafamu akikijwe n'imiyenzi, ndetse hari n'inzu abaturage urabona ko bateze amatwi.

Abaturage bari mu nama, umuyobozi wabo w'umugore abahagaze imbere. Bakaba bari kwiga inama ku bintu bitandukanye nko kugira amahoro mu ngo zabo, ndetse n'uburyo bateza imbere u Rwanda.

Biragaragara nk"aho abaturage bari mu nama, noneho uyu musaza ufashe mikoro cyangwa se indangururamajwi, akaba yari kubaza ikibazo cyangwa se gutanga igitekerezo ku byavuzwe kuri iyo nama yabereye muri iyi sare cyangwa se muri iki cyumba mbera byombi.

Aba ni abantu bagiye mu butabera. Bari gucirana imanza bitewe n'ibibazo bashobora kuba bafitanye, cyangwa se n'ibitekerezo bari kungurana bo ubwabo kuko abantu bagenda bagira ibibazo bakagira n'uburyo babikemura.

Abaporisi bari guhereza amabwiriza abaturage mu nama. Abaturage baricaye， bateze amatwi neza ibyo umuyobozi wabo ari kubabwira，kugira ngo babikurikize.

Abaturage bari mu namama bakaba bambaye agapfukamunwa. Bakaba batonje imirongo, umugore w'imbere bakaba bamuhaye mikoro akaba ari kuyivugiramo. Kandi akaba afashe na mvilope.

Abasirikare n'umupolisi bari gukoresha inama, aho undi muyobozi afashe mikoro hari n'uducupa tw'amazi ku meza ndetse n'amatelefone, bakaba bari kumva ibiri kuvugirirwa mu nama.

Umufuka guteretse gurimo ibirayi，impande yago hari amabuye ndetse n’intusi kandi hari igare，uwo mufuka ugiye kujyaho. Ni imifuka ebyiri kimwe kinini n'akandi gatoya.

Aho ni muri gare, imodoka zigiye zitwara abantu bagiye mu byerekezo bigenda bitandukanye by'igihugu .abantu bagiye gutega imodoka ku buryo bagera iwabo hakiri kare.

Umugabo ufite igare, igare rikaba rirambitseho igitebo hejuru, igare rikaba ari rirerire, ahagaze ku nzu kandi iyo nzu ikaba ifite inkingi imbere, ndetse akaba ahagaze ku bitaka hasi ntabwo ari kaburimbo.

Iyo ni imodoka itwara abagenzi, cyane cyane ku rwego rwambukiranya imipaka. Bava mu Rwanda bajya muri Uganda, iyo kampani tuyita Trinity, ikora neza cyane, itegwa n'abantu b'abasirimu bambukiranya imipaka.

Moto ihetse umudamu ndetse n'indi iparitse ku ruhande iriho umumotari nawe uri kugenda ndetse n'umunyamaguru, izi moto zikaba ziri kugendera mu bihande bitandukanye kandi abamotari bose bakaba bambaye utujire.

Aho hantu ni muri gare, muri gare haragaragara compani ya stera, abantu benshi bafite ibikapu, urujya n'uruza rwabo. Abo bantu, hariho na bisi, ikigaragara hari n'abamama bafite ubudomoro.

Aha haragaragara imodoka ya kampani ya Ruhire exprese ndetse na fiderite, handitseho abajya Kabarore, Rwimiyaga, Karama ndetse na Ngarama, ubwo barerekeza mu bice by'iburasirazuba hano muri gare.

Izo tuzita moto za rifani zitwara imizigo, zitwara imizigo usibye ko umuturarwanda bigoye kugira ngo ayigure, irahenze cyane ndetse n'ibyangombwa byayo, urugero nk'ubwishingizi ndetse na perimi biba bigoye kugira ngo umuturage abibone.

Ni indege bakaba bagiye kuyipakiramo imizigo zitandukanye. Ikaba ihagaze ku kibuga c'indege kandi iyi ndege ikaba ihagaje. Iri mu bwoko bw'umweru kandi ikaba ifite n'udupine.

Umumotari utwaye moto ya rifani ahagaze ahantu hari umucaca ndetse moto ye iracyari nsha, umupine wi'mbere ni wo ugaragara hamwe na moteri, yambaye n'agakasike keza.

Ikimodoka bita hoho kiri mu muhanda, aho kiri guca ku matapi abiri ndetse kuri aho hantu hacometse ikintu ku ruhande. N'inyuma yayo hari indi hoho iyikurikiye. Hari amatara kuri uwo muhanda ndetse na sitasiyo.

Imodoka zitwaraga abagenzi ndetse na moto zitwaye abagenzi. Zikaba ziri muri kaburimbo, zikaba ari nyinshi, zikaba ziri kugenda. Zikaba zifite pulake y'inganda.

Igare ripfutseho ihema rifite ibintu byinshi. Hariho umugabo ku ruhande ndetse hari n'ibindi byatsi hasi. Kakaba kikoreye amashu.

Moto ya Lifani iparitse ikaba imeze neza ikaba ari nshasha. Ikaba iparitse kuri kaburimbo ahantu baparika ibinyabiziga hirya yaho hari igipangu ndetse n'ibyatsi inyuma.

Imodoka zitwaraga abagenzi nini zikaba ziri muri gare, aho ziparitse kandi zirasa, aho ziri gushaka abagenzi zatwara. Izi modoka zikaba zimeze neza kandi zikaba zitwaraga abantu neza.

Abamotari bambaye ingofero batonze umurongo, aho bategereje abakiriya baza babagana. Abamotari bakaba bishimye cane, kandi bakaba bari kuganira.

Imashini iri gupakurura imifuka, imashini ikaba ikora mu buryo bw'ikoranabuhanga, imashini rero ikaba iri gupakurura imifuka neza, kandi imifuka ntiyangirike, kandi ikabipakurura mu gihe gito.

Abo ni abantu bari mu bwato, ni abantu bari mu bwato cyane cyane umuntu ubatwaye, ubwo ni umusare, kandi ubwo umusare aba ari kumwe n'abakerarugendo. Biragaragara nk'aho basuye u Rwanda, bafite n'imitaka igiye itandu..

Abakinnyi bari gukina umupira wa basiketiboro. Bakaba bari guhanika muri paniye. Bakaba bameze neza, kandi akaba ari umuntu mukuru uri kwigisha abana uburyo bakinamo uyu mukino.

Umukinnyi ari kwiruka, aho ari muri sitade, yambaye agapira kanditsweho rojasi uyu mukinnyi akaba yishimye cane kandi abantu bakaba bari mufana ari benshi cane.

Abakobwa n’abahungu bari ku magare, baba baparitse amagare kugira ngo baruhuke. Inyuma yaho hari ibiti, kandi bakaba bishimye cane kuko bameze neza.

Abakinyi b'amagare baparitse. Bambaye imyenda zisa, bafashe n'utugare, abo bakinnyi bakaba bambaye n'ingofero, bamwe bakaba bambaye amadorubindi, abandi bakaba nta madorubindi bafite. Bakaba bitegura kugenda.

Iri muri kurusi yanditsweho Akagera, imodoka ikaba iri mu muhanda w'igitaka, hari ibyatsi ku ruhande ndetse iyo modoka iri gutumura ivu. Iri...ifite ibara ry'umweru n'umukara, bigaragara yuko iri kwirukanka.

Abakobwa barimo bari mumarushanwa yo kwiruka, aho bambaye imyenda y'amasengeri asa n'udukabutura tw'umukara kuri benshi. Narimo bari kwirukanka kandi bishimye.

Umukobwa arimo aribgukina handbol hariho umugabo w'umushefuzi wambaye agakabutura k'umweru k'umukara ndetse n'agapira k'umutuku uyu mukobwa agiye guterera umupira mu izamu.

Muri sitade, aho abantu bafite amabendera, bambaye n'imipira, bari gufana u Rwanda. Bigaragara yuko bishimye, kandi bakaba bameze neza, bari gufana ikipe yabo neza.

Mu mazi bari koga abandi barahagaze, akaba ari amarushanwa yo koga, kandi hari n'abari mu bwato. Umukino wo koga ni umukino mwiza uraryoha uri kuwureba n'uri kuwukora.

Umugabo akaba ari gukina hendiboro, akaba afite ibyuya bigaragara yuko ari gukora cane, akaba yambaye inkweto, ipantaro n'umupira byabugenewe.

Biragaragara nk'aho hano ari turu di Rwanda. Abantu bari kwirukanka ku muvuduko uteye ubwoba, kuko abapolisi urabona ko bashyize abantu ku ruhande, ndetse n'imodoka zaparitse kure y'abanyegare. Bari kugatwara barimo kwirukanka cyane bari mu marushanwa.

Umugabo ufashe umupira, ari gukina basketiboro akaba agiye gushyira umupira muri paniye, yambaye isengeri, kandi bigaragara yuko yabize icyuya yakoze siporo cyane.

umugore n'abagabo bari kwiruka, umugore akaba yambaye umupira uriho iriho ijambo MTN wanditsweho magana arindwi mirongo irindwi na karindwi, umugabo umuri inyuma na we afite nimero yanditsweho, ijana na mirongo ine, abandi nimero ntabwo iri kugaragara, bari kwiruka kandi bisa naho ari byiza.

Aba ni abanyegare bari mu marushanwa ni Turudirwanda pe! urabona bambaye amajeze yanditseho u Rwanda, abandi bari inyuma ni abazungu, ni abazungu baje mu marushanwa.

Bicaye ku tureture, bakaba bicaye ku ishima y'icatsi. Bakaba bafite ibyapa canditswe agahozo sharomu kimu bege. Bakaba bari kwiga neza uburyo bateza imbere siporo.

Bari gukina umukino bakaba bica bahagaze ku mucanga, bakaba bari gukina tenisi bakaba ari umugore n'umugabo kandi bakaba ba bozaninebe.

Biragaragara ko hari amagare menshi ndetse n'imodoka ikurikiye abantu bari marushanwa muri turudirwanda. Ishobora kuba iri kubakamera cyangwa ibatwaje ibikoresho byo kuhande.

Abantu bari muri siporo bakaba bari kwirukankira kuri sitade i Kigali, bakaba bari kwirukankira ku isima y'umutuku, bakaba bambaye amasengeri, inkweto, ndetse n'ibyapa biranga nimero zabo.

Igitsina gore kiri mu marushanwa y'amaguru, bari kwirukanka cyane muri stade kugira ngo babone ibihembo. Ahantu bari dore hari ibara ry'umutuku hasi kuri tapi ndetse n'intebe z'umuhondo n'ubururu.

Abakinnyi bari gukina tenisi bari ku kibuga c'umutuku. Bakaba bambaye imyenda bakorana bari gukinisha, ari nk'amakabutura n'udupira, umwe ari kubatoza, handitweho hedikoci, bigaragara yuko ariwe uri kubigisha.

Ibikombe bari kubitanga ku makipe yatsinze, kandi bakaba bari kwifotoza bameze neza. Harimo abazungu ndetse n'abiraburaba. Akaba ari abagabo gusa. Hakaba hari ikipe ya mbere iya kabiri n'iya gatatu.

Umukino wa basikeiti uri gukinwa n'abasore, umupira ukaba ugiye kugwa mu nshundura cyangwa se paniye, hariho umuzungu ku ruhande, ndetse n'abandi bantu bari gufana.

Mubari gukina Basikete, umwe yambaye ijezi y'umukara yanditsweho karindwi, kandi afite imisatsi y'umutuku, afashe undi mugenzi we ufashe umupira, wambaye Jezi y'umuhondo n'umukara, yanditsweho cumi na gatatu.

Aba bana barimo gukina umupira kuri stade, ni abana batandatu, ndetse n'abandi bari hirya, bambaye amajezi y'ubururu, ndetse n'amasogisi y'umuhondo, za godio, urimo kubona ko inkweto bakinana umupira zimeze neza.

umujungu uri ku igare akaba ari muri siporo, akaba ari muri siporo ku kagare keja kandi akaba yambaye n'ingofero n'amadorubindi ndece n'imyenda y'abanyamagare inyuma ye hari umupolisi.

Aha ni kuri sitade, aho abantu bari gucina basiketibolo, bamwe bambaye umweru, abandi bambaye icyatsi n'ubururu. Bigaragara yuko hari n'abafana muri iyo sitade, baza kwirebera ibi byiza by'umupira.

Aha biragaragara nkaho ari ikibuga cy'umupira wa baskete. Hano barakina umupira wa baskete. Umwana ugaragara ni umwana w'umukobwa usa nkaho umanitse akaboko ategereje gusama umupira, yambaye nimero kane n'inkweto z'ubururu.

Uwo ni umuntu ufite ibidoro bibiri cyangwa se ibijerikane bibiri yabirambitse hasi hirya ye hari za moto ariko bisa nkaho imvura yaguye bisa nkaho imvura yaguyeho aho hantu.

Aha hantu hagaragara nk'aho ari mu ikoni ry'umuhanda wa kaburimbo. Hariho abantu banyuramo, hagaragara ibyatsi, abagore, icyapa cya eyateli, ndetse n'ibintu bya rogari bibiri bifata amazi.

Uyu ukaba ari umuhanda, umuhanda mwiza cane abantu banyuragamo ,iyi mihanda ikaba yarubatswe mu rwanda kugira ngo ifashe abantu batandukanye bafite ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru kugenda.

Aha hantu biragaragara nkaho ari umuhanda wacitse kubera isuri, amazi menshi yaje arahatembana, maze kaburimbo iracika bitewe n'imbaraga amazi aba afite isumbya ubukomere bwa kaburimbo.

Aha biragaragara nk'aho amazi yahatembanye, ni isuri pe! Biragaragara ko ubutaka buzima bwaho bwatembye, nta kindi kintu cyahasigaye kuko n'amabuye aragaragara ndetse n'ibyatsi ku ruhande.